Ahantu habereye icyago hari abantu bambaye imyambaro yabugenewe, yifashishwa mu kuzimya inkongi z'umuriro ndetse akaba hari n'abandi bambaye imyambaro itukura b'umuryango ushinzwe gutabara imbabare, bakaba bari gukora ubutabazi.

Umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda, wambaye impuzankano ze ndetse n'undi mwambaro ufite ibara ry'icyatsi kibisi, yahagaritse ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru, aho ari kuganira n'utwara icyo kinyabiziga.

Abantu bakora mu by'ubuzima bambaye imyambaro ibarinda kuba hagira indwara runaka bandura bayikuye ku barwayi, iyo myambaro ikaba ifite ibara ry'umweru, bakaba bari gukoresha ibikoresho by'isuku aho bari gusukura kimwe mu byumba batangiramo serivisi, muri ibyo byumba kandi hakaba harimo n'ibitanda byagenewe abarwayi.

Imbere y'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima, hari abagabo bambaye imyambaro yabugenewe, ifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru, bakaba bari kwinjiza umuntu mu mbangukiragutabara, iyo mbangukiragutabara ikaba yifashishwa mu kuvana abarwayi, ahantu hamwe ibajyana ahandi.

Abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore bahuriye hamwe mu nyubako nini ifite amabara y'umweru ndetse bakaba bari gukora igikorwa cyo gutanga amaraso. Nanone kandi abo bantu bari kwandika amakuru bifashishije ikayi n'ikaramu.

Umubyeyi ufite umwana ukiri muto, ari mu cyumba cyo kwa muganga, aho uwo mwana ari kwitabwaho n'umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku, ufite icyo ashinzwe mu bijyanye n'ubuzima.

Imiti y'ubwoko butandukanye, ifunze mu mabara y'ubururu bwijimye, umweru ndetse no mu ducupa, yateranyirijwe hamwe aho iri ku meza. Iyo miti ikaba ivura indwara nyinshi zirimo nk'umutwe, umugongo ndetse n'izindi.

Itsinda rigari ry'abantu bambaye imyambaro isa ifite amabara y'umutuku. Iyo myambaro ikaba ari iy'abantu bakora mu muryango utabara imbabare, bakaba bakora ibikorwa byinshi bitandukanye, birimo kugirira neza ndetse no gutanga ubufasha.

Itsinda ry'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, bari imbere y'imbangukiragutabara, ikoreshwa mu kuvana abarwayi barembye ku mavuriro, ibajyana ku bitaro. Hari kandi inyuma yabo ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'indabo.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo ibitanda byabugenewe biryamwaho n'abarwayi baba bavurirwa kwa muganga, nanone kandi muri iki cyumba harimo abaganga bambaye imyambaro yabugenewe ndetse banafite udukoresho twifashishwa mu gupima ubuzima bw'umurwayi.

Abantu bambaye imyambaro yabugenewe y'akazi ndetse bakaba bambaye n'udupfukamunwa, tubarinda kuba bagira indwara bandura, bakaba bari mu cyumba gifite ibara ry'umweru ndetse kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Mu cyumba cyabugenewe cyo ku bitaro, harimo abaganga bambaye imyambaro itandukanye bifashisha muganga. Bambaye kandi n'udupfukamunwa tubafasha kuba bagirango ngo ba batagira indwara bandurira ku barwayi harimo kandi n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Imbere y'inyubako z'ibitaro zifite amabati afite ibara ry'ubururu, haparitse ikinyabiziga gifite amabara y'umweru cyitwa imbangukiragutabara, gikoreshwa mu kuvana abarwayi barembye ku mavuriro kibajyana ku bitaro bikuru. Hari kandi n'indabo zifite amabara y'icyatsi kibisi, umuhondo ndetse n'umweru.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho ifite amabara atandukanye, ikaba itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuzima, ikaba yanditseho hejuru ijambo ngo ikigo nderabuzima cya Tabagwe, ayo magambo akaba yandikishije ibara ry'umweru. Hari kandi n'abantu benshi baje gushaka izo serivisi z'ubuzima.

Imbere y'inyubako y'ibitaro yubakishijwe amatafari ndetse ifite ibara ry'umweru, hari abaganga, bakaba bari gukina n'abarwayi, barimo abana bato. Na none kandi hari igiti gifite amashami manini, giteye muri iyo mbuga.

Itsinda ry'abantu bashinzwe ubuzima bateraniye mu cyumba kiza cyane gifite amabara y'umweru, abantu bakaba bari kugirwa inama n'umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'umweru aho ari kubabwira ku bijyanye n'ingingo zitandukanye.

Itsinda rigari ry'abantu bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye ndetse bamwe muri bo bambaye imyambaro y'akazi, bateraniye hamwe mu muhanda ugezweho ufite amabara y'umukara ndetse n'imirongo y'umweru, inyuma y'abo kandi hari ishyamba rinini ririmo ibiti by'ubwoko bwinshi.

Itsinda ry'abantu bane barimo abagabo batatu ndetse n'umugore umwe bari imbere y'ikinyabiziga kifashishwa mu gutwara abarwayi kibakura ku bigo nderabuzima kibajyana ku bitaro bikuru nanone kandi hari ibiti bikuze ndetse n'indabo zifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Mu cyumba cyo ku kigo nderabuzima gifite ibara ry'umweru harimo ibikoresho bitandukanye birimo imiti, ameza ndetse n'intebe, harimo kandi umugabo wambaye imyambaro yabugenewe ifite ibara ry'umweru ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari kwita ku murwayi.

Mu cyumba cyo kwa muganga gifite ibara ry'umweru, hari ibitanda byinshi biriho abarwayi . Abo barwayi bakaba bitabwaho n'abaganga maze bagacumbikirwa muri ibyo bitaro, igihe cyagera bakira bagataha.

Imbere y'inyubako y'ibitaro bya Nyagatare yubakishije amatafari ahiye, hari abantu benshi barimo urubyiruko ndetse n'abagore bafite abana bato, abo bakaba bari kuganirizwa n'abaganga. Nanone kandi hari umukecuru uri mu kagare k'abafite ubumuga.

Imbere y'inyubako y'Akarere hateraniye abantu benshi barimo abaganga ndetse n'abarwayi basanzwe bakaba bari gukoresha udukoresho twifashishwa mu kuvura ingingo z'abavunitse ndetse tukaba tunafite ibara ry'umweru.

Mu cyumba cyiza cyane cyabugenewe cyo ku bitaro hari intebe ifite amabara y'ubururu ndetse kandi hari n'igitanda gikozwe mu buryo bugezweho, icyo gitanda kikaba cyifashishwa mu gihe hari kuvurwa umurwayi.

Ibikoresho birimo uburiri bufite amapine ndetse kandi n'intebe zifite ibara ry'ubururu bikaba ari bimwe mu bikoresho dusanga mu mbangukiragutabara zifashishwa mu kuvana indembe ahantu hamwe zibajyana ku bitaro.

Mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo ubushakashatsi kirimo ibikoresho bitandukanye birimo mudasobwa, harimo kandi umugore wambaye imyambaro ifite ibara ry'umweru wambaye agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki akaba ari gukoreramo ubushakashatsi.

Mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo ubushakashatsi, harimo intebe nziza ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gukora ubwo bushakashatsi, bikaba ari byiza ko abantu bakwinjira muri icyo cyumba ariko bafite ibyabarinda impanuka.

Mu cyumba cyabugenewe, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gupima indwara ndetse no gukora ubushakashatsi, harimo umugabo wambaye imyambaro yabugenewe, ifite amabara y'umweru, yambaye uturindantoki ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari gukora ubushakashatsi.

Umugabo uri mu cyumba cyabugenewe yambaye imyambaro ifite ibara ry'umweru, yambaye agapfukamunwa kamurinda kuba hagira ibintu bimwinjira mu mazuru nanone kandi yambaye uturindantoki aho ari gukora ubushakashatsi, muri icyo cyumba kandi nanone hakaba hari mudasobwa.

Abagabo babiri bambaye imyambaro yabugenewe ibapfuka umubiri wose bakaba bambaye n'udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki, bari mu cyumba cyabugenewe cyo kwa muganga kifashishwa mu gukora ubushakashatsi bakaba bari gukoresha igikoresho k'ikoranabuhanga kidufasha kureba ibyo tutabonesha ijisho.

Mu cyumba cyabugenewe gifite ibara ry'umweru cyo ku bitaro, hari umubyeyi uri ku buriri bufite ibara ry'ubururu, akaba akikiye umwana we w'uruhinja, hari kandi n'igikoresho cyifashishwa mu buvuzi cy'ikoranabuhanga.

Ababyeyi bafite abana bakiri bato bari kubitaho babaha igikoma bifashishije ibikombe, aba bana bakaba barengeje amezi atandatu kuko umwana agomba guhabwa ifashashabere ari uko yagejeje ayo mezi.

Mu mbuga y'inzu ifite ibyatsi bitoshye ndetse ikaba ikikijwe n'imiyenzi, hari umujyanama w'ubuzima wambaye umwambaro w'abajyanama b'ubuzima, wicaranye n'umurwayi akaba ari kumusuzuma ndetse anamugira inama.

Itsinda ry'abagabo bambaye imyambaro itandukanye, harimo abambaye imyambaro yabugenewe y'abantu bashinzwe ubuzima, bari imbere y'inyubako nziza cyane ifite amabara y'ubururu ndetse ifite n'icyapa kiyimanitseho gifite ibara ry'umweru, iyo nyubako ikaba itangirwamo serivisi z'ubuzima.

Itsinda ry'abantu bicaye hamwe barimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyambaro ifite ibara ry'icyatsi kibisi isa ndetse n'abandi bambaye impuzankano y'igisirikare k'Igihugu, bakaba bari mu bukangurambaga bwateguwe n'ikigo k'Igihugu gishinzwe ubuzima.

Ababyeyi b'abagore bafite abana bakiri bato, bari ku kigo nderabuzima aho baje guhabwa serivisi zijyanye n'ubuzima na none bazanye abana babo kugira ngo bitabweho. Ibi bikaba bituma aba bakurana ubuzima bwiza buzira umuze.

Umugore wambaye umwambaro ufite ibara ry'icunga, afite indangururamajwi, aho ari kugeza ijambo ku bamukurikiye mu bukangurambaga bw'icyumweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umubyeyi.

Abantu benshi barimo abagore bafite abana ndetse n'abagabo bateraniye ahantu hamwe hateganyijwe, abo bantu bakaba bakurikiye ibyo bari kugezwaho n'itsinda cyangwa se abantu bari imbere yabo.

Mu cyumba k'ishuri gifite ibara ry'umuhondo weruye harimo abanyeshuri bambaye impuzankano zifite amabara y'umweru ndetse bakaba bari kwitabwaho, aba banyeshuri bakaba bafashwa mu mikurire yabo ndetse n'imirire kuko batarengeje imyaka itanu.

Abana bakiri bato bari gukoresha mudasobwa, izi mudasobwa bakaba bazifashisha mu gusubiramo amasomo yabo ndetse no gukora ubushakashatsi, ibi bikaba bibafasha kugira ngo ubwenge bwabo bwiyongere.

Mu byatsi bitoshye hateguriwe ubukangurambaga, aho abagabo ndetse n'abagore ndetse n'urubyiruko, bateraniye hamwe, bakaba bari kwigishwa byinshi ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe ndetse n'izindi ngingo zitandukanye, zirebana n'ubuzima.

Mu cyumba cyabugenewe cyo kwa muganga, harimo umurwayi akaba ari guhabwa amakuru, n'umuganga wambaye imyenda y'akazi ifite ibara ry'umweru. Aho kandi hari n'undi muganga na we wambaye bimwe na we akaba ari kureba mu gitabo.

Inzu nziza cyane ifite amabara arimo umweru ndetse n'umutuku, ikaba itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuzima. Iyi nyubako kandi imbere yayo hakaba hari ubusitani bwiza burimo igiti kinini ndetse n'indabo zifite amabara y'umuhondo n'icyatsi kibisi.

Umugabo wambaye imyambaro y'akazi ifite ibara ry'umweru ari imbere ya mudasobwa akaba afite ibyo ari kugeza ku bantu bateraniye mu cyumba bakaba barimo umugabo ndetse n'umugore bambaye imyambaro y'ikigo k'Igihugu gishinzwe ubugenzacyaha.

Ahantu habugenewe mu nyubako yo ku bitaro, hateraniye abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bagiye guhabwa ubufasha ku bijyanye n'indwara nyinshi zitandukanye zo mu mutwe. Ubu bufasha bakaba babuhabwa n'abakozi bakora mu by'ubuvuzi babuhariwe.

Ahantu habereye ubukangurambaga hakaba hateraniye imbaga nyamwinshi y'abantu, hakaba kandi hari umugore uri kubaganiriza ku bijyanye n'ingingo zitandukanye, hari kandi n'inzu zagenewe ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye.

Abantu benshi barimo abagabo abagore ndetse n'abasheshe akanguhe bitabiriye ubukangurambaga bwateguwe mu rwego rwo kurwanya imirire mibi, aba kandi bakaba barimo n'abagabo bambaye impuzankano z'igisirikare k'Igihugu bakaba bishimanye n'abaturage.

Inyubako ifite ibara ry'umweru n'umukara ndetse ikaba ari iy'ubucuruzi itangirwamo imiti y'ubwoko butandukanye, iyi miti ikaba ivura indwara zirimo nk'imitsi amaso ndetse n'umugongo.

Ibikombe binini byabugenewe bifite amabara y'umweru ndetse bikaba bifite n'ibyapa bifite amaba y'icyatsi kibisi n'umuhondo, hashushanyijeho inyamaswa yo mu rugo ariyo ihene. Ibyombe bikaba bibikwamo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura ayo matungo.

Mu nzu ngari ifite ibara ry'umweru ndetse irimo ibikoresho bitandukanye, harimo imiti ivura indwara nyinshi harimo iz'umugongo, amaso ndetse n'izindi, hakaba kandi harimo n'umukozi ubishinzwe ucuruza iyo miti.

Imiti yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye zibasira umubiri, zirimo nk'amaso, umugongo, umutwe ndetse n'izindi, iyi miti ikaba yarashyizwe ahantu habugenewe hayirinda guhura n'ubukonje cyangwa se ubushyuhe bwinshi.

Mu nzu yabugenewe ifite ibara ry'icyatsi kibisi harimo umugabo ndetse n'umugore bambaye imyambaro ya bugenewe bakaba bari mu kazi aba bakaba bagurisha imiti y'ubwoko butandukanye ivura indwara zirimo nk'umugongo imitsi ndetse n'izindi.

Inyubako y'ubucuruzi ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara ikaba ifite icyapa hejuru yayo cyanditseho yuko aho hantu hacururizwa imiti ivura indwara zitandukanye, ibi kandi bikaba ari bimwe mu biranga ahantu hacururizwa ibintu runaka, aho hagomba kuba hamanitse icyapa kerekana ibicururizwa aho hantu ibyo ari byo.

Icyumba cyabugenewe kibitsemo imiti iri mu bintu bifite amabara y'umweru, umutuku ndetse n'icyatsi kibisi, byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'umubiri. Iyi miti ikaba igurishwa ku bantu maze na bo bakishyura.

Umuti ufunitse neza mu gifuniko gifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo weruye ndetse hakaba ashushanyijeho amatungo yo mu rugo arimo inka, intama, ihene ndetse n'ingurube. Uwo muti ukaba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'amatungo.

Inzu yabugenewe ikoze neza ifite ibara ry'umweru ndetse n'amagambo yandikishije ibara ry'icyatsi kibisi. Iyi nzu ikaba igurishirizwamo imiti y'ubwoko butandukanye ivura indwara nyinshi. Harimo kandi umugabo wambaye umwenda w'akazi, akaba ari we ugurisha iyo miti.

Mu cyumba cyabugenewe kirimo imiti myinshi ivura indwara zitandukanye, iyi miti ikaba ishyirwa muri iki cyumba kugira ngo idahura n'ubukonje cyangwa se ubushyuhe bukaba bwayangiza, iyi miti kandi ikaba igurwa n'abantu bayikeneye bakishyura amafaranga.

Imbere y'umuhanda w'amabuye ukoze hari inyubako ifite amabara y'umweru ndetse ifite inyuguti ziyanditseho zifite ibara ry'umukara, iyo nyubako ikaba igurishirizwamo imiti y'ubwoko butandukanye ivura indwara.

Umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'umweru ushinzwe kwakira abakiriya baje kugura imiti y'ubwoko butandukanye. Iyo miti ikaba iba ifunze neza mu ducupa twabugenewe dufite amabara atandukanye.

Habukenewe isize irangi ry'umweru irimo ibikoresho bitandukanye bifasha imiti kugira ngo itangirika. Iyo miti ikaba irimo iyivura indwara zitandukanye z'umubiri zirimo nk'umugongo, umutwe ndetse n'izindi.

Icyumba cyabugenewe gifite amabara y'umweru ndetse kikaba kirimo imiti y'ubwoko butandukanye, iyi miti ikaba igurishwa ndetse ikanavura indwara zitandukanye z'ubuzima zirimo n'imitsi, umutwe ndetse n'izindi.

Icyumba kirimo imiti y'ubwoko butandukanye ivura indwara nyinshi zirimo umutwe, umugongo ndetse n'izindi. Iki cyumba kikaba cyifashishwa kugira ngo iyi miti idahura n'ubukonje bw'inshi cyangwa ubushyuhe bwinshi bushobora kuba bwayangiza.

Ku rukuta rw'inzu rusize ibara ry'umuhondo weruye hamanitseho icyapa gifite ibara ry'umweru ndetse n'inyuguti zandikishije ibara ry'icyatsi kibisi kikaba kerekana ko aho hantu hacururizwa imiti itandukanye ivura indwara zirimo nk'umutwe, mu nda ndetse n'izindi.

Mu nzu ngari ya Kaminuza hateraniyemo itsinda rigari ry'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore bari mu bukangurambaga. Muri iyo nzu nini kandi hakaba hamanitsemo ibyapa bifite amabara y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi, byifashishijwe muri ubwo bukangurambaga.

itsinda rigari ryiganjemo urubyiruko rwambaye imyambaro y'amabara atandukanye, ruri mu muhanda rukaba rufite icyapa kinini gifite amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umukara, bakaba bari mu bukangurambaga bwo kurwanya ibiyobyabwenge.

Mu cyumba kigari cyiza cyane kinini cyabugenewe kiberamo inama, hateraniyemo imbaga nyamwinshi y'abantu irimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bari mu bukangurambaga bwateguwe n'Ikigo k'Igihugu gishinzwe Ubuzima.

Mu bukangurambaga bwahariwe kurwanya indwara zitandukanye bwitabiriwe n'abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore bari ahantu hateguwe nanone kandi harimo urubyiruko rwinshi, inyuma y'aho byateguriwe hakaba hari ibiti bitoshye bifite amabara y'icyatsi kibisi.

Mu bukangurambaga bwahariwe kurwanya Malariya, hamanitse icyapa kinini gifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, hakaba hateraniye imbaga nyamwinshi irimo abagabo, abagore ndetse n'abana.

Mu cyumba cyabugenewe kiza gifite amabara y'umweru, hateraniyemo abantu barimo urubyiruko, rwambaye imyambaro isa. Urwo rubyiruko rukaba ruri gukoma mu mashyi, aho bari mu bukangurambaga bugendanye n'ubuzima.

Ahantu hateguwe hafite amabara y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi, habereye ubukangurambaga aho bwitabiriwe n'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore n'urubyiruko, bakaba bari kuganirizwa ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe.

Munsi y'ibiti hateraniye imbaga nyamwinshi y'abantu barimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko bakaba bakurikiranye ibyo bari kubwirwa, na none kandi hari ingoma zifashishwa mu mbyino gakondo ndetse n'izigezweho.

Ahantu hateganyijwe hateraniye abantu benshi barimo umugabo ushinzwe ubuzima ndetse n'abandi bagore bafite abana bato, hakaba kandi hari umwana uryamye aho ari kwitabwaho, hari kandi n'umugabo wambaye impuzankano y'igipolisi k'Igihugu.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko, rwambaye imyambaro y'umuhondo, rwateraniye hamwe aho ruri mu bukangurambaga, bwagenewe kurwanya ibiyobyabwenge na none kandi hari ibiti bikuze biri inyuma y'abo bantu.

Abantu barimo urubyiruko, abagabo ndetse n'abagore, bateraniye mu cyumba gifite amabara y'umuhondo weruye, hakaba hari kuberamo ubukangurambaga bujyanye n'ubuzima, aho bari guhabwa ikiganiro n'umugabo wambaye imyambaro y'umukara.

Imiti gakondo irimo nk'igikakarubamba, tungurusumu ndetse na tangawize, iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, iyi miti kandi ikaba ikomoka yose ku bimera byera ahantu hatandukanye harimo nko mu ishyamba.

Imiti ya gakondo ifunze neza mu macupa ndetse ikaba ifite n'imifuniko y'umukara, ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, zibata umubiri, zirimo nk'umugongo, umutwe ndetse n'izindi.

Umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse n'imyambaro yabugenewe akaba ari gukoresha imiti yifashishwa mu buvuzi. Iyi miti ikaba ivura indwara zitandukanye zirimo imitsi, umugongo ndetse n'izindi.

Mu cyumba cyabugenewe cyo kwa muganga gifite amabara y'umweru, harimo abaganga babiri, bambaye imyambaro yabo y'akazi ndetse umwe muri bo, akaba afite agakoresho kifashishwa mu kureba uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze, akaba afite n'umurwayi ari gusuzuma, mu gihe undi na we ari kwandika amakuru y'umurwayi mu gitabo.

Umugabo wicaye neza ku gasambi kaboshywe mu byatsi, afite udukoresho dutandukanye, aho ari gukora umuti gakondo, wifashishwa mu kurwanya indwara zitandukanye zibasira umubiri, harimo nk'umugongo, imitsi ndetse n'izindi.

Mu rugo rwubakishijwe amatafari agezweho. Hari ikimera gifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umweru. Icyo kimera kikaba kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye mu buryo bwa gakondo. Izo ndwara zikaba zirimo nk'igicuri, rubagimpande ndetse n'izindi.

Abantu barimo abagabo ndetse n'abagore n'abana, bateraniye imbere y'inyubako nziza cyane ifite ibara ry'ubururu, itangirwamo serivisi z'ubuzima, ikaba inanditseho hejuru ijambo rivuga ngo gira ubuzima.

Imbere y'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite amabara y'umweru n'ubururu, hari abasheshe akanguhe barimo abakecuru bitwaje utubando bakaba batakibasha kugenda ari bonyine.

Inyubako nziza cyane ifite amabara y'ubururu ndetse n'icyapa kiyiriho, iyi nyubako ikaba itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuzima, nanone kandi hari ubwatsi butoshye ndetse n'indabo zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, hari kandi n'umugabo wambaye impuzankano z'Igisirikare cy'Igihugu.

Mu nzu icururizwamo indorerwamo harimo umugabo wambaye imyambaro y'umweru, izo ndorerwamo zikaba zifasha abantu cyane cyane abafite ubumuga bwo kutareba neza zikaba zabafasha kureba neza.

Icyapa gikozwe mu byuma gifite ubuso bw'umweru ndetse n'inyuguti zandikishije ibara ry'ubururu, icyatsi kibisi ndetse n'umukara, icyo cyapa kikaba cyerekana ahantu hatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuzima.

Imbere y'inyubako ifite ibara ry'umweru yubakishije amatafari, hari ababyeyi bafite abana bakiri bato, aba bana bakaba bagiye guhabwa serivisi zo kubitaho zigendanye n'ubuzima bwabo.

Inyubako nziza cyane ifite amabara y'ubururu ndetse ifite n'icyapa cy'umukara gifite inyuguti zandikishije amabara y'ubururu, cyanditseho ijambo Girubuzima, ikabatangirwamo serivise zitandukanye zigendanye n'ubuzima.

Ahantu hateraniye abantu benshi hari kubera ubukangurambaga bijyanye n'ubuzima ndetse hakaba hateye n'ibiti, hari igishushanyo mbonera gishushanyijeho inzu ifite ibara ry'ubururu yanditseho ijambo gira ubuzima.

Imbere y'inyubako yo kwa muganga yubakishije amatafari ahiye, itangirwamo serivisi zijyanye no kwishyura ubwisungane mu kwivuza, hateraniye abagore batatu, babiri muri bo bakaba bafite abana bakiri bato.

Ibinyabiziga bibiri bifite amabara asa y'umweru ndetse n'umutuku bikaba byifashishwa mu kuvana abarwayi barembye ku mavuriro atandukanye bibajyana ku bitaro bikuru kugira ngo bahabwe ubuvuzi bwisumbuyeho.

Imbere y'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima hateye ibiti byiza cyane mu busitani, ibyo biti bikaba bituma habaho agacucucu, aho abantu bashobora kukicaramo maze bakaruhuka.

Ababyeyi barimo ab'abagore bafite abana bakiri bato bari mu cyumba cyabugenewe cyo kwa muganga aho bari guhabwa inama nyinshi zitandukanye ku bijyanye n'imikurire myiza y'abana babo, abo babyeyi kandi bakaba hari bimwe mu byangombwa baba bitwaje harimo n'indangamuntu.

Itsinda rigari ry'abantu bashinzwe kwita ku buzima ari bo bitwa abanyabuzima bateraniye hamwe imbere y'inyubako ifite ibara ry'ubururu bwiyijimye iyo nyubako ikaba itangirwamo serivisi z'ubuzima, aba bagabo ndetse n'abagore bakaba bishimye aho bari gukoma mu mashyi banaririmba.

Imiti ikoreshwa mu buvuzi ifunze neza mu mabara y'umukara, umweru ndetse n'umutuku, iyi miti ikaba ikoreshwa mu bintu bitandukanye by'ubuvuzi harimo nko gupfuka ibikomere, kubivura ndetse n'ibindi.

Abana bambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu bari gukaraba bifashishije kandagira ukarabe, ibase ndetse n'isabune. Ibi bikaba bifasha mu kwirinda indwara ziterwa n'umwanda, nanone kandi hari inzu nini yubakishije amatafari isakaje amabati.